Abanyeshuri bigaga mu mashuri yisumbuye cane cane mu myuga, hari abigaga ibyo gukora mu muhanda, bagiraga n'ibikoresho bitandukanye bibafasha gupima mbere y'uko bawuca. Abana benshi barabikundaga kubera y'uko hirya no hino bari gukora imihanda cane, ntawe urangizaga ngo abe yaburamo n'akazi.

Abanyeshuri biga by'ubukerarugendo bakunda gutembera cane, bagasura ahantu henshi hatandukanye. Kubera ko n'amasomo menshi bigaga, biba bisaba gukora ubushakashatsi kugira ngo babihuze n'ibyo babaga bize mu ishuri.

Abanyeshuri bari gukora paratike, ahantu henshi usangaga bafite n'ibikoresho bihagije, noneho bikabafasha nk' amasomo bigaga mu ishuri gakenewe kugira ngo baze kubihuza na paratike bakabyumva neza. Hamwe bigaga bandika bikaza noneho bakabishyira hano mu ngiro.

Bamwe mu bantu bazana icyo kunywa cyangwa icyo kurya mu maresitora, usanga bagaragara neza, bambaye neza kandi na bo ubwabo basa neza, ku buryo bifasha ba nyiri amaresitora gukomeza kugira abakiriya benshi kandi na bo basabwa ngo batange serivisi neza ku bakiriya bose.

Abanyeshuri kuva mu mashuri abanza ntabwo bakigishwa ubumenyi rusange gusa, aho usanga abanyeshuri bakiri batoya nabo bigishwa n'ubumenyingiro, nko gushushanya n'ibindi bibafasha gukangura ubwonko bw'umwana hakiri kare.

Ibyinshi mu bigo by'amashuri bigira amasomo y'ubumenyingiro, bigira aho bigomba gufashiriza abanyeshuri kugira ngo amasomo bigiye mu ishuri, bajye no kongera kuyashyira mu bikorwa. Bimwe bavugiraga mu ishuri banabereke uko bishobora gukorwa mu buzima busanzwe.

Abayobozi basuye abanyeshuri mu masaha yo kuja kurya. Usanga ari byiza iyo abayobozi nka kuriya basuye abanyeshuri muri ariya masaha kuko usanga hari n'abanyeshuri bagenda bavuga ngo bararyaga ntibage ku ishuri, ariko iyo babasuye nka kuriya, bagaragaza imbogamizi zabo bigafasha n'ababategurira gukomeza bategura ibikwiye.

Amwe mu mashuri yo muri iki gihe, amaze gutera imbere cyane kubera ukuntu ikoranabuhanga rimaze kugera ahantu henshi cyane, usanga ahantu henshi nta barimu bagikoresha ingwa bandika ku kibaho, aho usanga berekana amasomo yabo mu ikoranabuhanga, rikabafasha mu gutanga isomo mu gihe gitoya ndetse n'abanyeshuri barikurikiye, bikabafasha kuko biba bigaragara.